Iduka ricuruza imyambaro y'abagabo n'abagore igiye itandukanye,, ndetse n'inkweto z'amoko yose, itatswe n'amatara meza agezweho ndetse n'utubati ducururizwamo ibicuruzwa byose bacuruza.

Igura n'igurishwa ry'ikinyabiziga hagati y'abagabo batatu, mu gihe bari bamaze kumvikana ku biciro buri wese kimunogeye, bahisemo kugura no kugurisha ikinyabiziga.

Ese waba ukorera amafaranga ari hagati y'ibihumbi magana inani kugeza kuri miliyoni n'ibihumbi magana atanu y'amafaranga y'u Rwanda? Ubu biroroshye ku nyungu ya cumi na rimwe ku ijana, ubu wabona inguzanyo ya miliyoni mirongo itandatu z'amafaranga y'u Rwanda.

Urujya n'uruza rw'abantu bateraniye iruhande rw'isoko harimo abacuruzi, abaguzi ndetse n'ibicuruzwa n'ibinyabiziga biparitse iruhande, ni ahantu hari umutekano uhagije kandi abantu barishimye.